Abayobozi bicaye bambaye amakositimu bavanze n'abapolisi, inyuma hariho ingabo bita Daso nazo zikora umutekano w'abaturage ndetse n'ibintu, ni ibintu uri kubona bigaragara neza cyane.

Abapolisi iyo barangije ikosi ubu usanga ari ibintu byiza cyane, kandi biherewe uburenganzira na leta y'u Rwanda, usanga buri umwe wese afata umudari w'ishimwe, w'uko yapasinze aho hantu yari ari.

Umupolisi ari gutanga inama mu baturage. Uri kubona ko afite ipeti ry'ikirangantego. Afashe mikoro y'umukara ndetse anambaye n'imyenda impuzangano yabo, ariyo nifomu ndetse n'abaturage bose bicaye hasi bararambya, bari kumwumva ibitekerezo ari kubagezaho.

Dorone ni icyuma cy'ikoranabuhanga gifite ubushobozi bwo kuguruka, aho usanga gikoreshwa cyane cyane mu gutwara amaraso, mu gutwara amakuru runaka, ndetse kikaba kigira ingirakamaro ku gihugu cyacu.

Guteka ku mashyiga ya gaze ni kimwe mu bintu byihutisha iterambere, ndetse n'uri guteka kuri gaze ahisha vuba mu buryo buhagije, bitiriwe biramugora ngo ategereze amasaha menshi, gaze icyiza cyayo ntago ishiririza isafuriya, usanga isafuriya utekera kuri gaze ikimeze nk'uko wayiguze.

Kamera ni kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga bituma abantu babona amashusho yatambutse mbere, kandi tuyikoresha turi gucunga umutekano. Iyo imanitse ahantu heza hejuru iri kureba ibintu byose, usanga ari ikintu cyiza cyane, kuko iba ifite n'agakava hejuru kayitwikiriye ku buryo itakwangirika.

Iyo ingabo z'u Rwanda ziri ku ikosi uba usanga ari ibintu byiza cyane kandi zinanyuzamo zigakora akarasisi ku buryo buba bunogeye amaso y'ubireba kuko bidufasha kurinda umutekano w'igihugu Yaba imbere no hanze.

Polisi y'u Rwanda irimo kwigisha abaturage uburyo bazimya umuriro wabateye. Urabona ko harimo umumama uri kugenda azimya umuriro bakije mu safuriya ndetse n'abana bamushungereye ku ruhande bareba ibyo arimo akora n'umupolisi ari kumwerekera ku ruhande .

Abapolisi b'u Rwanda, iyo bambaye impuzankano zabo, biba bigaragara neza aho usanga kuruhande rw'ibumoso, hariho idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ku rundi ruhande hariho amapeti hejuru, n'ahandi hariho amapeti ndetse bambaye n'ingofero ubona bibabereye cyane.

Umuporisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda arimo arakora akazi ke neza ku buryo bukwiriye, aho abamotari ndetse n'abashoferi batwara imodoka bamureba kandi bakishima bakabona ko ari kubahiriza inshingano ze.

Igihe inama yabaye, usanga harimo ingeri nyinshi zitandukanye, harimo abashinzwe umutekano, ari bo mu Rwanda twita daso, ndetse n'abayobozi bicayemo hagati ya daso, ndetse n'abaturage bitabiriye iyo nama.

Umugabo wambaye agapfukamunwa n'agapira k'umweru ari kuzimya umuriro kuko watse .Bari kwereka abaturage uburyo bajya barinda inkongi mu ngo zabo. Hirya gatoya hari umupolisi uzimya umuriro nawe urimo kumwerekera.

Ishami rya Huye rishinzwe ibintu by'amazi ndetse n'ibikorwa byose bikorerwa mu mazi yitwa Marine ,bivanzemo abapolisi ,abasirikare ndetse n'abayobozi ba Ribu n'abatwara ubwato ,bari bari guhugurwa mu bijyanye no kurwanira munsi y'amazi.

Ugitsina gore kigomba kwitabira inama za Leta, ndetse n'igihe umuyobozi yabashatse akababonera ku gihe ntagikuba gicitse, ndetse iyo bicaye barimo bumva ikibagenewe, bituma bajijuka ndetse bakanabaza ibibazo bafite bigakemuka.

Igihe abantu bari mu nama baba batuje cyane, ndetse bakurikiye bumva icyo abayobozi babagezaho, aho tubona bose bicaye, buri umwe ku wundi agiye afite ikayi yo kwandikamo ibintu bari kuvuga kugira ngo atabyibagirwa.

Umuhuro w'abantu ari byo twita inama, ni igikogwa cyiza cyane aho gihuza abaturage abayobozi. Ndetse bakanaganira ku bikorwa bitandukanye, aho usanga buri muturage wese, avamo yanyuzwe n'ibyo yumvise.

Abayobozi iyo bari mu nama bicaye bari kwiga ku bibazo by'abaturage bitagenda neza, ubu usanga ari ikintu gifatika kandi kinafitiye abaturage akamaro, aho umuturage abibona akabona ko harimo iterambere ry'ahazaza.

Umuvure ni kimwe mu bikoresho bakoreshaga kera bashyiramo umusururu，undetse ari no kunywamo igihe babaga bashinzemo imiheha bari kunywamo ikigage wasangaga ari igikorwa cyiza kandi cyagaragazaga guhana igihango hagati y'umuryango n'undi.

Iningiri ni igikoresho cy'umuziki cyakoreshwaga, n'abatari bake mu Rwanda rwahakera, ndetse na n'ubu kikaba gikoreshwa, kiba gifite, imirya nkiyinanga, kandi cyegetse, ku idirishya urabona ko, ari igikoresho, kigaragara neza uko bikwi.

Gusangira mu ntango cyangwa mu kibindi ni kimwe mu kimenyetso cyagaragazaga ko mufitanye umubano udasanzwe, kandi mwahanye igihango ko mutazahemukirana, aho wasangaga umwe ari gusomera ku muheha we, n'undi ari gusomera ku muheha we ndetse biteye amabengeza.

Imbyino nyarwanda ni kimwe mu bikorwa bituma umuco utera imbere kandi ugahuza abanyarwanda muri rusange. Imbyino gakondo ni ikimenyetso kigaragaza ko igihugu gifite amahame ngenderwaho.

Umwami wabayeho w'u Rwanda bita Rudahigwa ndetse n'umwamikazi we bita Rosaliya Gicanda. Ni ubuyobozi bwari bufite inshingano n'amaboko mu Rwanda hose aho wasangaga umwami n'umwamikazi bategeka igihugu cyose kandi bakagitegeka mu buryo bwiza cyane.

Intore iyo ziri kubyina imbyino nyarwanda biba ari ibintu biryoheye ijisho ku muntu uwo ari we wese ubibona kuko abanyamahanga birabakurura cyane kandi n'abaturage b'u Rwanda nabo iyo babibonye bumva bishimye cyane

Umwami ndetse n'abaja be babaga bari mu rukari bicaye wasangaga ari ibintu bigaragara neza, aho umwami yabaga yambaye uruhu rw'ingwe ndetse n'abaja be bambaye uruhu rw'ingwe, kandi bigaragarako ari abayobozi bashinzwe gufatira imyanzuro igihugu.

Imyuko n'utumamiro ni kimwe mu bikoresho byakoreshwaga kuva kera kugeza na n'ubu, aho usanga abantu bayibaza ndetse bakayigurisha urabona ko harimo imyuko n'utuyumamiro tuvanze turi mu ndobo, kuko ni byinshi cyane ntago washobora kuyibara ngo uhite uyirangiza ako kanya.

Mu muco nyarwanda igisabo ni igikoresho cyubahirizwaga ndetse kikaziririzwa cyane aho wasangaga buri rugo rwose rutabura igisabo, urabona ko umukobwa yicaye hasi ari gucunda amata ku ruhande hari uduseke ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Iningiri ni igikoresho cyakoreshwaga n'abantu ba kera barimo bacuranga umuziki, aho usanga kuri ubu kigenda gicika uko bwije n'uko bukeye kuko abasaza nibo bakundaga kugikoresha ku buryo bwuzuye.

Mu indani hagati y'inzu ya kera habaga hateye amabengeza aho wasangaga hashinze ibiti bigiye bitandukanye, hejuru hariho akantu kameze nk'akazeru kagaragaza ko aho hantu hasohokera umwuka ndetse ukaba wanacana umwotsi ugasohoka.

Bimwe mu bintu twasigiwe n'a basekuru harimo kugosora ibishimbo n'indi myaka itandukanye aho usanga igitsina gore aricyo cyakundaga kubikora cyane cyane none aho bigeze ubu n'abantu batandukanye b'igitsina gabo nabo barabikora.

Imibohere, ni uduseke ni kimwe mu bikorwa bigaragaza ubuhanga, bw'abari bacu aho usanga umuseke buhohwa, na buri umwe, kandi akabuhereza dizayini, ashaka ukabona ko ari igikorwa kizima, hamwe agaseke dufite gasa n'umutuku akandi gasa n'umuhondo, urimo umukara uri kubona ko tugaragara neza.

Iningiri ni kimwe mu gikoresho cy'umuziki cyakoreshwaga kuva kera kugeza na n'ubu aho usanga gifite imirya myinshi cyane, hari umuntu uri kutwereka uburyo bayicuranga urikubona ko afashe hejuru ukuboko kumwe kukaba gufashe hejuru ukundi kukaba gufashemo hagati.

Abavuzi b'ingoma mu kinyarwanda bita abakaraza, ni abantu baba bateye amashyushyu kubabona, kubera ko usanga ari ibintu bazi cyane, kandi umuntu ubikora neza uba ubona biryoheye amaso hariho n'abaririmbyi ku ruhande, bari kugenda batera indirimbo.

Urusyo n'ingasire ni kimwe mu bikoresho byakoreshwaga kuva kera, aho wasangaga barambikaho imyaka bagasya ku ruhande, ifu bamaze gukoresha bakayishyira ku nkoko, ukabona ko ari ibintu byiza kandi byerekana umuco.

Kubyina uteze amaboko ni kimwe mu binu abakobwa bakundaga gukora uhereye kera, mu muco nyarwanda kugeza na n'ubu, imbyino zose ubu usanga babyina bateze amaboko bigaragaza ikimenyetso cy'inka z'inyambo kandi zifite ugwererane ndetse n'amabengeza.

Umukobwa n'umuhungu barimo kuririmba umuhungu arimo gucuranga inanga urabona ko ari ibintu byiza imbere yabo harimo mikoro ndetse umukobwa afite mikoro naho umuhungu we imuriho ariko ntago ayifashe ku maboko kuko bayishigikiye inyuma hariho bafure.

Ubuseke ni kimwe mu bikoresho byakoreshwaga n'abatari bake mu Rwanda rwo hambere, aho usanga na n'ubu bakibukoresha igihe bagiye mu makwe ndetse no kugemurira abandi bantu batandukanye uba usanga bukoreshwa cyane. Hano turi kubonaho ubuseke butandatu harimo udutoya ndetse n'ibinini.

Abanu bari gukina umukino bita igisoro. Ni umukino uryoheye amaso kuva kera kugeza na n'ubu. Ni umukino wakinwaga n'abasaza n'abanu bakuru ndetse n'abana muri rusange. Bajyaga bawiga bari gusangira ugwagwa mu gacuma ndetse n'ikigage n'umusururu. Urabona ko ari ibintu bigaragara neza cyane kandi bituma abantu bishima.

Mu muco wa kera inyogosho biyogosheshaga zari ziteye amatsiko cyane, kuko wajyaga ubona umuntu wabikoze ugahita wibwira aho aturuka. Gusa ibi bigaragaza umuco nyarwanda, kandi n'abakurambere barabikundaga cyane.

Itorero riri gucurangira umuhungu ugiye kubyina intore ndetse no kuririmba, urabona ko yabukereye, afite icumu, akagira ingabo ndetse n'imikenyero ibereye amaso, urabona ko ari intore koko kandi iryoheye buri umwe wese uyi.

Mu bukwe nyagwanda iyo habaye imisango cyangwa habaye ibirori mu bukwe, uba usanga bikogwa cyane cyane gusangirira ku muheha. Aba ari ikintu kizima kuko umuntu wese ubikoze aba ari igihango ahanye n'undi.

Umugabo wicaye ku kirago, ndetse bategereje ko bamuzanira ibiryo, urabona ko ari ikirago cyaboshywe ku buryo bw'ubuhanga, kandi cyabohanywe ubumenyi ntagereranywa, kuko ubu usanga ibintu baboha mu kirago, babikura mu mazi bakabyita urufunzo.

Umugore uri kurobanura ibishyimbo mu gihe agiye kubitsimba, ku ruhande yateye amashyiga atatu, ashyiramo n'inkwi ashyiraho n'isafuriya yicaye ku ntebe ,ari kurobanura ashyira mu isafuriya hirya gatoya y'iwe hari intama nayo iziritse.

Ibikoresho birimo ibisabo, birimo uduseke, birimo inkoko ni ibikoresho byakoreshwaga kuva kera kugeza na nubu aho wasangaga kera ari ibikoresho wubahirizaga kandi byagaragazaga umuco ariko na nubu uba usanga abantu bakibikoresha ku buryo bufatika.

Ububoshyi ni kimwe mu bintu bigaragaza ko umuco nyarwanda ukiriho, aho usanga igitsina gore cyicaye kirimo kuboha ubuseke ndetse iruhande yaho hariho umutegarugori nawe wicaye ari kureba uburyo barimo babikora.

Isekuru ni kimwe mu bikoresho bya gakondo guhera kera kugeza na nubu ikaba ikoreshwa cyane cyane usanga bayisekuriramo isombe abandi bakayisokoreramo imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye birimo imeke kandi bikorohera umuntu uri kuyikoresha kuko aba ari gukoresha umuhini.

Agaseke ni igikoresho gikoreshwa cyane cyane n'igitsina gore mu Rwanda aho usanga gishiramo imyaka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye akenshi mu bukwe usanga aritwo bari gukoresha bari gutura abantu bajyanyemo ipfukire ukabona ni ibintu bigaragaza umuco kandi bigaragara neza.

Gukora urwagwa ndetse n'umutobe babikoresheje ibitoki, biba ari ibintu bitangaje, aho usanga aba ari abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bagatonora igitoki cya mbere, icya kabiri. Buri umwe wese atonora ajugunya mu muvure, hakabaho n'undi na we uba urakata ibyo bitoki n'imineke baba bamaze gutonora.

Mu rukari mbere aho umwami yabaga atuye wasangaga harimo nk'indani, inka nyinshi kandi harimo n'inzu za nyakatsi zaciwe kuri ubu kandi wasanga hari igikorwa kigaragaza umuco nyarwanda n'abantu bahishimiye mu buryo butandukanye.

Icyatsi bita umutavugwa ni icyatsi kigaragaza uburambe buhanitse aho bagikoresha ubuvuzi bwa gakondo, umuntu iyo arwaye mu nda akakinywa ndetse kimugwa neza kandi agakira vuba usanga gifite uruti rusa n'icyatsi, amashami yacyo aba afite ibara ry'umutuku ndetse ifite n'utubabi twinshi cyane.

Ingobyi ni kimwe mu gikoresho cyakoreshwaga kuva kera bahetse umuntu kugeza na n'ubu aho usanga mu cyaro umurwayi iyo arwaye bitabaza ingobyi kugira ngo bamuheke ndetse banamugeze ku bitaro vuba na bwangu batiriwe biratinda.

Umuvure bashyizemo ikigage cyangwa umusuru ni kimwe mu bintu bigaragaza umuco nyarwanda, aho wasangaga hariho imiheha myinshi mu bukwe ugasanga babwiye abantu ngo nibaze bose banyweho, babyitaga guhana igihango kugira ngo babone ko bahanye ubuvange.

Ibishushanyo bishushanyijwe n'intoki ni kimwe mu bintu bigaragara neza, aho ubona umukobwa arimo yereka umugabo uburyo bashushanyije umukobwa neza bigaragara, kandi bifite ireme ku buryo wanakigura amafaranga ubaye ubishoboye.

Ingorofani ni kimwe mu gikoresho gikoreshwa cyane cyane mu masuku yo mu rugo, mu nganda ndetse n'ahandi hatandukanye, iyo urebye nko ku mashuri ubu usanga ikoreshwa cyane. Ingorofani rero hano dufite ni ebyiri harimo imwe isa n'icyatsi n'indi isa n'icyatsi, imwe ifite umupine w'umukara n'indi iwufite uri kubona ko byose bihuje amabara.

Intore ebyiri ziri kubyina ahantu muri sitade， urabona ko ari ibintu bigaragara neza， kuko zifite imigara， icumu ndetse n'ingabo， urabona ko ari igikorwa kizima， kuko umuntu wese uri kubibona ari kumva abyishimiye.

Inyogosho za kera zari ziteye amabengeza, uburyo abantu ba kera mbere u Rwanda rwabayeho, abantu biyogoshesha neza cyane, aho wamubonaga ugahita umwibwira kuko wasangaga harimo ibice by'umusatsi bigiye bitandukanye n'ahandi.

Imbyino nyarwanda ni kimwe mu kimenyetso kigaragaza umuco，kandi gituma abanyarwanda twongera kwisanga ku muco wacu aho baba bakoreshamo uduseke ndetse n'imyenda ibereye amaso.

Intore ni kimwe mu bintu bigaragaza umuco nyarwanda, aho usanga abagabo baba bambaye amasunzu, bafite icumu n'intwaro ku birenge, hejuru gatoya bambaye amayogi, ku buryo iyo abyina uba wumva ari ibintu byiza cyane.

Agaseke n'inkoko ni kimwe mu bintu bigaragaza ko abantu bafite ubuhanga buhanitse, bwo kuboha ibintu, kandi bakabikora neza, agaseke bakabikamo imyaka, inkoko yo bayikoresha mu gukosora ibishyimbo, ndetse n'ibindi binyampeke bitandukanye.

Inyogosho za kera mu muco nyarwanda, ni inyogosho zakundwaga n'abatari bake, aho wasangaga umuntu wayiyogoshesheje ari we wabaga ameze neza ndetse anagaragara neza mu bandi, abakobwa na bo baraziyogosheshaga cyane ndetse bakanaberwa.

Umuhanzi w'umutegarugori ari kuririmba ari gucuranga iningiri, ndetse hari n'abandi basore bambaye imyenda y'umweru bane bari gucuranga ingoma ubona ko ari ibintu byiza, imbere ye hari mikoro y'indangururamajwi, ari kuririmba kugira ngo twese tubyumve.

Intore ni kimwe mu bintu bigaragaza imbyino za kera, ndetse na n'ubu aho umuntu wazikoresheje neza usanga ari kubona amafaranga, kuko barazitumira mu bukwe ndetse no mu bindi birori bitandukanye, aho usanga zambaye imigara ndetse zifite ingabo n'icumu mu gihe zirimo kubyina.

Amatara ya alamu agaragara neza aho usanga hivanzemo amabara menshi atandukanye, harimo umutuku n'icyatsi kandi uba usanga kamaditse ku gikuta, gafashe neza kugira ngo hatagira icyangirika.

Umugozi w'umuriro ni igikoresho gikomeye cyane aho usanga gifite ingirakamaro cyane cyane ku bikoresho bikenera uwo mugozi nka televiziyo, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bikenera umuriro umugozi uba usohora.

Imashini y'ikoranabuhanga ni kimwe mu bintu bifitiye igihugu akamaro, aho usanga bayikoresha ku bitaro ,mu biro ndetse n'ahandi, isohora umwuka mwiza utuma abantu bagubwa neza ,ifite amatara ku ruhande tubiri tw'umutuku ndetse n'irindi tara ry'umutuku irindi ricomekwa ku muririro neza.

Ibiro by'Umurenge wa Gataraga. Ni inyubako yubatse ahantu hitaruye, hari natire, ku buryo ifasha abawugana kugubwa neza kandi bakumva n'umuyaga ugize aho hantu.

Inyubako igeretse ni inyubako ikunze kugaragara ko ari inyubako iteye imbere, kuko iba yajyamo imiryango myinshi cyane, kandi abantu iyo bakoreyemo bisinesi bituma aba ari ahantu hanini hanisanzuye, ku buryo nta mwanya w'ahantu wabura wo kuhakoreramo ikintu cya wifuza.

Inzu igeretse ni kimwe mu bintu biteza igihugu akamaro, aho usanga hakorerwamo ibintu byinshi bitandukanye kuko aba ari nini yisanzuye, aho usanga abantu benshi basigaye bubakisha inzu nini amatafari ya ruriba, kuko ni yo usanga ateye imbere kandi anakomeye. Urabona ko hari n'umuntu uyihagaze imbere yishimiye icyo gikorwa bamugejejeho.

Icyapa kigaragaza Adeperi itorero rya Kinzovu, paruwase ya Kabarondo, ni ahantu hari ku muhanda, kandi hateye imbere, urabona kuhagera ntabwo bigusaba gutega amafaranga menshi, uhita uhagera kubera umuhanda urabegereye.

Ikigo cy'amashuri kigisha imyuga n'ubumenyigiro giherereye mu murenge wa Busogo cyitwa Esitebe Busogo, ni ikigo kigaragaza ubumenyi burenze ndetse n'ubuhanga butagereranywa, aho usanga umunyeshuri wahize agaragaza ubumenyi ku isoko ry'umurimo, ndetse n'ubuhanga butanga.

Ikiraro ni kimwe mu bikorwa remezo bifitiye igihugu akamaro, aho usanga gihuza ubuce n'ubundi, nk'umuntu utwaye ibiribwa akinyuraho yambuka, ndetse bikamworohera kuruta uko yajya kunyura munsi, bikamufata urugendo runini.

SPF ni ikigo cyubatse mu mudugudu wa Jabiro ,akagari ka Gisesero ,umurenge wa Busogo aho usanga gitubura imyaka ndetse kikanatanga ifumbire y'imvaruganda .Umuntu wakoresheje poroduwi avuye muri SPF areza cyane ku buryo buhagije.

Ibiro by'Akarere ka Nyabihu ni ibiro byubatse neza, cyane cyane aho usanga bikoregwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo gukemura ibibazo by'abaturage, harimo gukemura ibibazo by'ubutaka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ndetse ku ruhande hariho n'umuhanda, imbere yaho hariho inzu irimo umusekirite, ukubaza ibyo ushaka akakuyobora.

Inyubako ni kimwe mu binu bituma igihugu gitera imbere, kuko ni igikogwa remezo kiba gifite ubushobozi bwo gukoregwamo ibinu byinshi bitandukanye, kandi kigafasha abanu gutera imbere.

Senti Mariya ni urusengero rwubatse neza aho usanga kuruhande hari amarangi y'umuhondo hejuru hari umusaraba kandi rukaba rufite sayizi ibereye amaso aho usanga naca rwubatsemo igaragara neza cyane.

Inyubako zubatse mu buryo bugezweho zikoreramo urugo mbonezamikurire, ni kimwe mu bintu bifasha abana mu myigire yabo ndetse no mu mikurire, bikanafasha umuryango n'ababyeyi kwita ku bana mu buryo bwororoshye.

Urusengero rw'Abadivantisite rwubatswe ku nkunga y'umuryango w'Abadivantisite bo ku isi ruruzuye urabona ko rugaragara neza buri umwe wese urureba arabona ko rubereye amaso kandi ko ruzakira abakirisitu benshi.

Umwana uhagaze imbere y'inzu yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira kagiye gusa n'umutuku n'umweru, iyo nzu ifite amadirishya meza ndetse n'umuryango uhereye ijisho ndetse unubakishijwe amatafari meza.

Isoko bubatse ahantu hitwa muri Kinoni， ni ahantu ubona ko hateye amabengeza，hubakishijwe amabati y'umutuku，ndetse n'ibyuma bimanuye， bifashe ku makaro， aho ubona ko ryubatswe neza，baryubatse kugira ngo barishyiremo karoti， ndetse n'izindi mbuto zitandukanye，baba bejeje mu Karere kacu ka Musanze.

Inzu inzu ya koperative yubatse ku buryo bugezweho, aho usanga ifite amabati y'umutuku ndetse n'inzugi zigezweho cyane; umwana uyiri imbere, urabonako harimo intera igaragara ariko iyo unayireba ubona yubatse...

Umuhanda ni kimwe mu bikorwa remezo bifitiye igihugu ingirakamaro, aho usanga unyugwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga kandi ibinyabiziga bikaba bitunze imbaga nyamwinshi, kandi umuhanda utuma abantu babona amafaranga mu kuwukoresha bavana ibicuruzwa hamwe babijyana ahandi.

Imashini iponda sima， ni imwe mu mashini zigaragaza ubuhambare， ndetse n'ubushobozi buhagije， aho usanga ikaraga beto，nk'abantu bakaraga umunsi wose yo ikayikaraga mu minota，ndetse ikoroshya akazi. Ku ruhande hariho abantu bayihagazeho， bari kugenda bashyiramo ibikoresho， ndetse n'indi modoka y'ibenu， iri kuzamuka y'ubururu.

Inyubako zubatswe n'insengero ziri mu nyubako zigaragara neza ndetse uzibonye uwo ari we wese ahita abimenya kuko ubu usanga hejuru hariho umusaraba ubigaragaza ko ari urusengero urabona ko hejuru uzamutse gatoya hari amabati kuruhande gw'iburyo nu'ruhande rw'ibumoso y'umutuku unamanutse hepfo hariho nayandi n'abandi bantu uri kubona bari kwinjiramo.

Urusengero rw'Abayehova ni kimwe mu bintu bituma abakirisito bakomeza kwizera umwami n'umukiza, ndetse bakizera ko uwo bategereje azabasanga, aho usanga bose bateraniye ndetse baje gusenga no kumva ijambo ry'Imana.

Gupakira imodoka ni kimwe mu bintu byoroshya akazi, aho usanga ibintu imodoka ipakiye, abantu babyikorera ku mutwe bikabafata igihe kinini. Abagabo ni babiri bambaye udupfukamunwa, ndetse umwe afashe urupapuro ari kugenda yandika ibipakirwa. N'umugore uri ku ruhande na we wambaye agapfukamunwa uri kuri terefone. Undi wambaye agapfukamunwa ari gupakira imodoka arayegereye.

Urusengero rwa ADEPERI Nyarugenge rwubatse ku buryo bugezweho aho usanga barabyanditse mu gifaransa bigaragarira buri umwe wese n'umuntu uvuga igifaransa ku buryo kubisoma ari ikintu cyamworohera cyane. Hejuru harimo umusaraba.

Ahantu hubatse ikusanyirizo jy'ibirayi ndetse n'aho banahunikira ibirayi; ni ahantu hagaragarako hazitiye kandi hanarinzwe, urabonako ku ruhande gwaho hari icyapa kibigaragaza cyerekanako aho hantu bahakoregwa icyo gikogwa.

Ikigo cya Kavemu gifite ubusitani bwiza cyane, aho usanga abanyeshuri bahiga bibafasha kuruhuka neza mu gihe barangije amasomo, kandi bikabafasha kwiga neza kuko baba baruhutse.

Urusengero rw'abadive rwo kuri Ruhehe ni urusengero ruri ahantu hirengeye cyane mu gashamba, ku ruhande hariho ibiti bisa nicyatsi, by'inturusu, hepfo gatoya hariho ibyatsi byumye kuko byakubiswe nizuba cyane, hirya hariho ibitsitsi.

Ubuyobozi ndetse n'abaturage baturutse mu mahanga batashye ikiraro cyubatswe mu kinigi, cyubatswe ku mafaranga ateye ubwoba, kuko iyo uyabaze usanga ari menshi cyane, ndetse kizakurura abakerarugendo benshi cyane.

Amamoto ni kimwe mu binyabiziga bitunze abantu batari bake mu gihugu cyacu, aho usanga abantu bayakoresha baba batunze imiryango yabo kandi ibayeho neza inishimye, aho nk'abayobozi usanga baba barayashiriyeho amabwiriza ahagije nko guparika neza, kandi bakajya mu muhanda bafite isuku ihagije iboneye amaso, na buri umwe wese ku buryo abishima.

Igihe abanyeshuri bari guhabwa amabwiriza ku murongo, ndetse n'abarezi babo bahagaze inyuma bambaye amataburiya yabugenewe ndetse n'amakarita mu ijosi, ku buryo ubona ari ikintu kigaragaza uburere, ndetse n'uburezi buteye imbere mu gihugu cyabo.

Inzu yubatswe ku buhanga buhanitse aho usanga yubakishijwe n'amatafari ahiye, ifite amabati y'ubururu ku ruhande hariho ibidara ubona ko byicayemo abantu nk'abakoresheje iminsi mikuru. Yubatswe ahantu hitaruye ndetse ku ruhande hariho imisozi ibereye amaso niho havuye umugani bita u Rwanda rw'imisozi igihu....

Ikiraro kiri hejuru y'uruzi ni kimwe mu bintu bigaragaza iterambere n'ubuhanga buhanitse, aho umuntu iyo ari kukinyuraho aba ari kugendera hejuru y'urwo ruzi kandi abona amazi ari gutembera neza. Urabona ko ari umuntu umwe uri kukinyuraho ari kugenda areba ku ruhande nu hirya uburyo hateye amabengeza.

Inyubako ya etaje igaragara neza ku buryo umuntu wese uyibonye yumva imukuruye, ndetse inogeye ijisho jye, kandi ikaba irimo ubukungu igihugu gifite kuko abaturage benshi iba ibafitiye akamaro, bitewe na serivisi bagenda bahakorera.

Urusengero ni kimwe mu bintu biduhuza n'imana aho usanga nka kiliziya gatolika ifite abayoboke benshi kandi bakunda ibyo ibagezaho n'ibyo ibigisha mu buryo bwiza kandi bunogeye amatwi yabo.

Imiterere y'urusengero iba ikubiyemo ibintu byinshi, aho usanga harimo ibice abakristo baba bagomba kwicaramo, naho abigisha baba bagomba kuba bari, kandi bakisanzura bumva baguwe neza, bakakira ijambo ry'Imana.

ikorwa ry'umuhanda ni kimwe mu bikorwaremezo biteje igihugu imbere; aho usanga ahantu imashini zarahacukuye zikahacunga neza mu gihe ziri gukora umuhanda kugira ngo hitarure, imodoka zijye zihaca n'abanyamaguru bitomoye kandi bigaragara neza nta kintu kibitera.

Amatara yaka nimugoroba mugihe ijoro rigeze, urabona ko ari amatara meza cyane kandi atuma ahantu hagaragara uko bikwiye, nk'inyubako uri kureba nayo iri kwaka amatara, byose biri guhita bikwereka ishusho nziza yigihugu cyacu.

Inzu zubakishijwe amatafari ya Ruriba， ndetse zubatse ku buryo bugezweho，zisize amarangi y'icyatsi ndetse harimo n'umweru，ku ruhande hariho indege iri kuguruka， ku rundi ruhande hariho ibyatsi bishashe， ndetse n'imbuto ubona ko ari ibintu byiza cyane.

Ubuyobozi bubereyeho abaturage, aho usanga umuyobozi ari gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo yumvishe abaturage, ndetse anabakemurire ibibazo bafite, aho ari kubabwira ko abafitiye akamaro buri wese yateze amatwi kugira ngo yumve ijambo ari kubasangiza.

Indege ya Rwanda eya bari kuyikuramo ibintu baba batumije hanze urabona ko harimo ibintu bitandukanye, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bintu abantu bagiye batumiza harimo n'ibyo kurya, ndetse urabona ko ari ibintu biryoheye amaso ku kibuga cy'indege cya kanombe.

Bisi zitwara abagenzi, abenshi bakunze kwita shirumuteto, ni bisi zigaragara neza, aho usanga zifite amabara atandukanye, imwe yo mu buryo uri kubona ko ifite oranje, ndetse n'umweru, indi yo mu bumoso ikagira icatsi, ndetse n'umweru, uri kubona ko inatwaye abantu, ari ibintu bigaragara neza.

Imodoka zitwara abagenzi abenshi bakunze kwita shirumuteto za yutongo. Ni imodoka zifitiye igihugu akamaro kuko uba usanga zitwara umubare munini w'abantu, kandi ku buryo bworoshe buri umwe wese ahisanga kuko zica amafaranga make.

Moto nshya za kampani ya gorira, ni moto zigaragaza uburambe ndetse n'ubuhangange zifite. Aho usanga zifite moteri ikiri nshya zikaba zifite ubushobozi bwo kwirukanka ibirometero byinshi no kugenda ahantu haterera ku buryo buhagije.

Imodoka ya hoho iri mu muhanda isa n'umutuku; ni umuhanda urambuye cyane ku ruhande rw'ibumoso n'uruhande rwo hirya hariho umucaca, urabonako ari ibintu by'ibihuru ku buryo umuntu uri kubireba ataheza ngo arebe hirya no hino ngo agire icyo abona .Ku muhanda hirya no hino ho mu kirere hashinzemo amapoto ariho amashanyarazi.

Serivisi zitangwa mu ndege， ni kimwe mu bintu bituma abakiriya baza gutega indege babyishimira，ndetse bakanakunda urugendo bari gukora， kuko usanga buri umwe wese afite taci sikirini imbere， ari kugenda areba uko indege imeze， ndetse ari kureba n'amakuru agezweho.

Abamotari igihe bari mu muhanda rimwe na rimwe bubahiriza amategeko ikindi gihe bakayica, kuko urabona ko hari umuntu ugiye kwambuka umumotari nawe akigenda, kandi baba bagomba guhagarara. Niyompamvu na bo biba bisaba na bo kubahugura kugira ngo bagire ubumenyi kuri icyo kintu.

Igare ni kimwe mu gikoresho gituma abantu boroherezwa mu gihe barimo kugenda. Umuntu warikoresheje biramworohera kugera aho agiye mu buryo bworoshye, aho usanga rifite umusego wo kwicaraho ndetse n'intebe inyuma ibereye ijisho. Buri umwe wese urikoresheje arabyishimira.

Bisi iri mu bwoko bwa ritiko ndetse yanditseho horizone uba usanga itwara abantu benshi batandukanye bagiye mu byerekezo bigiye bitandukanye. Aho uri kujya mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba ndetse no mu burengerazuba. Uba usanga ikorayo ikagutwara nta kibazo.

Imodoka itwara amavuta ya totori ni imodoka nini cyane ifite amapine y'umukara agera mu munane, kandi ni imodoka isa n'umweru irimo totoro y'umutuku ni inyuguti zanditse zigaragaza urwo ruganda kuko iba iri kurukorera.

Bisi nsha batumije zikiri nshasha, ni Bisi zigaragara neza kandi zikaba zizatanga umusaruro ku isoko ry'umurimo, aho izaha akazi abashoferi benshi kandi zitware n'abaturage benshi batandukanye.

Gare ya nyabugogo ni imwe muri gare zifite urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'imodoka aho usanga buri umwe wese. Iyo ahageze abona abantu benshi batandukanye bari kujya mu ntara uko ari enye z'igihugu bavuye mu mujyi wa Kigali.

Moto ni ikinyabiziga gifite amapine abiri gikoreshwa mu gutwara imizigo ndetse n'abantu, aho ubona moto yapakiye ibitoki bibiri ,ndetse n'umufuka umwe w'ibirayi uri munsi nundi w' ibirayi uri hejuru.

Gutanga inama ku bantu batwara amagare, ni kimwe mu gikorwa cyiza kuko kidufasha kwirinda impanuka, ndetse n'abanyamaguru bakagira umutekano.

Kwasiteri ni imwe mu modoka zikunzwe n'abatari bake, aho usanga ikoreshwa mu ngendo zitwa isafari uva hamwe ujya ahandi, ingendo ndende zirimo ibirometero birebire ,ku ruhande uri kubonako harimo umuntu uri kureba hanze, imbere yaho hariho amatara, iruhande gw'iburyo n'ibumoso hose hari amatara ndetse n'ibinyoteri uri kubonako yanditseho selekiti.

Igare ni ikinyabiziga cyorohera buri umwe wese kugitwara, kandi bifasha abantu mu kugenda ndetse bava ahantu hamwe bajya ahandi. Igare tubona rifite amapine atatu, kandi umuntu uritwaye uri kubona ko yambaye ipantalo y'ubururu n'agapira gasa na orange kandi ari.

Moto za rifani ni kimwe mu bintu biteje igihugu imbere aho usanga zipakira ibintu byinshi bitandukanye, akenshi ziba zisa n'ubururu zitwawe n'abagabo ndetse n'abagore ziparitse imbere y'iduka ricuruza ibya tigo kashi ndetse n'amafarine, ubona ko ari ibintu byiza cyane n'abantu bahagaze iruhande bazishungereye.

Imodoka itwaye imbuto ndetse n'ibiribwa byo kurya uba usanga ari imodoka itwaye ibintu by'ingirakamaro; iyi modoka isa n'ubururu itwaye ibi biribwa birimo inyanya ndetse n'imboga ,kandi ni ibibiribwa bigomba gufasha abantu muri rusange.

Moto ni kimwe mu binyabiziga byorohereza abaturage mu gutwara imizigo yabo. Urabona ko hano bapakiye ndetse bakanayipakira mu buryo bubereye amaso, imifuka y'ibirayi ndetse hariho n'ibitunguru ku ruhande, kugira ngo bayitware aho bashaka kuyijyana.

Bisi ya shirumuteto ni bisi usanga itwara abantu benshi batandukanye, aho usanga ifite amabara y'umweru na orange, n'akantu bategererezamo bicaye bategereje ngo bisi ihahagarare ibe yabatwara, ukabona ko ari ibintu bigaragaza iterambere ry'Igihugu.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga ni kimwe mu bintu bigaragaza ko ahantu hari gutera imbere uko bwije n'uko bukeye, aho usanga buri umwe wese ashaka ikintu cyamuteza imbere, ndetse bikanatuma agera ku iterambere rikwiye.

Aho imodoka zizanye ibicuruzwa birimo ibyo kurya, birimo imiceri, amakawunga, ndetse n'ibikoresho byo mu nzu, ndetse n'iby'amasuku, aho biba biparitse abakarani bari kubikuramo, barimo kubyikorera babijyana ahandi ubu usanga hariho urujya n'uruza cyane...

Ikibuga cy'indege cy'i Kigali, Kigali Intanashono Eyapoti, ni ikibuga cyiza cyane kuko ari ikibuga cyakira abakerarugendo baje kugisura, kugira ngo barebe uburyo urujya n'uruza rw'abantu bavuye hanze ndetse banava mu gihugu binjira, basohoka, uburyo baba bameze, n'uburyo baba bagenda, n'uburyo indege nazo ziba ziri gusohoka.

Igitego cy'umutwe umukinnyi iyo agitsinze kigaragara neza. Urabona ko umukinnyi wambaye imyenda y'umweru bakunze kwita jezi ateye umutwe uri kubona ko ugiye kugana mu izamu abandi bakinnyi bambaye jezi z'ubururu barahagaze na garidiye arahagaze ategereje ko umupira umugeraho.

Abakobwa barimo gukina vore， ndetse uri kubona ko ari abakobwa babizi cyane bitoje，bafite n'igikuriro， bambaye imyenda y'umuhondo hejuru， naho hasi bambaye amakabutura y'icyatsi， ndetse n'amasogisi y'umweru， n'inkweto zabugenewe， abatoza babo bambaye amatiriningi y'icyatsi，ndetse n'udupira tw'umuhondo， nibo bari kubatoza.

Umupira wa vore boro ni kimwe mu bintu biteye neza, aho usanga haba harimo amabara atandukanye: nk'ibara ry'umweru naryo rigaragara neza, ibara ry'ubururu naryo rigaragara neza ,n'ibara ry'umuhondo naryo rigaragara neza ku buryo bukwiye.

Isiganwa jy'amaguru abantu barimo biruka basigaye barita ateretisime, ni igikorwa gishimisha abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze, aho usanga abantu babigiyemo baba biyemeza, ndetse bakanakora mu buryo bukwiye.

Isiganwa jy'amaguru ni ikintu cyafashe indi ntera, aho usanga abantu bagikora baba bitaweho, bafite abantu bakora amasuku y'aho bari gukorera iryo siganwa. Ndetse banita no ku bikoresho bya sitade, baba bakoreramo iryo siganwa ry'amaguru.

Umukino wa hendiboro ni umukino ugaragaza ko urimo imbaraga, kandi unakunzwe n'abatari bake. Urabona ko umuhungu wambaye imyenda y'imyeru ariyo bakunze kwita jezi n'inkweto z'ubururu n'amasogisi y'umukara, ko ari kubikina neza. Abandi bambaye imyenda y'umuhondo irimo ubururu, ariyo bita jezi na bo urabona ko bari kumwataka kugira ngo bamwake umupira.

Umukobwa wambaye nimero esheshatu, wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'ubururu, ari gukina volebolo. Uri kubonako ari ibintu azi neza, harimo n'abandi bantu bicaye mu ntebe bari kumufana, bari kureba ibyo ari gukora, n'uburyo bimeze.

Uyu muntu uri koga mumazi, uri kubona ko ari kwerekana ko yari ageze ku ntsinzi, ariko ibi bintu biba bihagije iyo ubibona nawe bituma wumva ubikunze, kuko ni ibintu bituma uruhuka mu mutwe iyo urimo koga mu mumazi menshi.

Ishirahamwe rishinzwe kwita ku bana, ndetse n'abakuze ryitwa agahozo sharomo dirimu bigi, n'ishyirahamwe riterwa inkunga n'abazungu, ndetse n'abanyarwanda, aho usanga umuntu wakoze, muri iryo shyirahamwe, aba aguwe neza, kandi aboneramo amahirwe menshi, akomeye.

Volebolo ni umukino w'amaboko uryohera abawureba, aho usanga urubyiruko, abakuze bose bawukunda, kandi ukinwa n'ingeri zose, abakobwa, abahungu, bose bawisangamo nta kibazo.

Isiganwa ry'amagare mu Rwanda usanga ari umukino umaze gutera imbere. Uko bwije n'uko bukeye kuko hagenda hazamo ibihugu bitandukanye. Urugero nka Uganda Eritereya uUbufaransa Afurika y'epfo n'ibindi bihugu byose bijya biza ndetse bigapiganwa kuri ijyo rushanwa jyo mu Rwanda.

Kwitabira Jiyanti of africa ni kimwe mu bikorwa bigaragaza ko ibintu biteye imbere, aho usanga abantu bitabiriye baba bambaye udupira twumukara ndetse ubona ko ari impuzankano iteye imbere kandi ibagaragara neza.

Ridi ni kapani igaragaza ko iri gukora muri iyi minsi, aho usanga hari gukoramo urubyiruko ndetse n'abasore b'inkorakoro, baba bambaye udupira tw'umutuku twanditseho, ikirango cya ridi ndetse bambaye n'amapantaro agiye gusa nk'ikigina n'inkweto zifunze ubona ko ari.

Umukino wa volebolo ni umwe mu mikino iteye imbere, aho usanga ibyiciro byose birimo biyikina, cyane cyane abagabo ndetse n'abo usanga barabishyizemo imbaraga kuko hitabiriwe n'abafana benshi cyane cyane uba usanga barimo ingeri zitandukanye.

Imikino ni kimwe mu bintu bimaze gutera imbere mu buryo bufatika, aho usanga buri hantu hose bagenda bayitabira kandi igafasha urubyiruko, abakuze ndetse n'ibindi byiciro kugenda bishimisha kandi bakiteza imbere.

Imodoka y'umweru ni imodoka igaragara neza ndetse uri kubona ko harimo n'izindi modoka z'umweru inyuma, iyo modoka y'umweru iri imbere iri kugenda ibatera ivumbi ibacucurira abandi bayiri inyuma uri kubona ko bameze nk'aho bari kuyikurikira harimo n'abantu benshi.

Basikete ni umukino mwiza cyane ,aho usanga igitsina gore nacyo gisigaye gikina umukino wa basikete kugwego ruhagije .Urabona umukobwa yambaye ikabutura y'ubururu ndetse n'isengeri irimo ubururu n'umweru, afite imisatsi yasutse derede kandi urabona ko ari gukina basikete nk'umuntu uyizi neza.

Aho umukino w'amagare uzasorezwa, ni ahantu haba hubatse neza, hagaragaza ibishushanyo mbonera by'uburyo amagare aba ari gukora, kandi ukabona ko hari abahanzi batandukanye, ndetse n'abadije bashinzwe ibintu by'imyidagaduro.

Umukino wa vole ni umukino mwiza cyane kuko usanga witabirwa n'ingeri zitandukanye, urubyiruko, abana ndetse n'abakuze basheshe akanguhe. Usanga bawukunda cyane kuko udufasha kunanura imitsi no gutuma umubiri ukora neza.

Abakobwa barimo gukina Volibolo, bambaye imyenda y'icyatsi. Umwe yambaye numero ebyiri undi cumi n'eshanu ndetse ku ruhande urabona ko ari muri Sitade harimo intebe zisa n'ubururu ndetse n'izisa n'umuhondo.

Igitsina gore ni mu bantu usanga bari kwisanga mu mikino yose itandukanye muri iyi myaka, aho usanga umukino wa basiketi igitsina gore kiwukunda cyane ndetse gisigaye kiwuzi, urabona ko ari abakobwa babiri bateye amabengeza barimo gukina basiketi.

Amarushanwa yo gusimbuka ni kimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu afite ubuhanga buhanitse, aho usanga habaho amarushanwa ku isi yose ugasanga ibihugu byoherejeyo abantu. Iyo ugeze ahantu ari, urishima cyane ku buryo uba wumva utagenda.

Agati bakinisha Tenisi ndetse n'udupira twako uba usanga ari ibintu bizima kandi bigaragara neza, ku buryo umuntu wese ubibonye abona ko ari ibintu bifatika kandi bibereye amaso, niyo mpamvu abantu bakunze kubikoresha cyane.

Abakinnyi ba tenisi uko ari batandatu, abakobwa bagera muri batanu n'umuhungu umwe. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, ariko abakobwa nibo bakina tenisi. Na ho umuhungu we arabunganira ku buryo bugaragara, ariko ni ibintu byiza urabona ko bibabereye.

Ikipe y'umupira w'amaguru igaragara neza mu mpuzangano arizo bakunze kwita Jezi ndetse n'abatoza bayo bicaye bose, uba ubona bameze neza cyane, abatoza ni bane naho abakinnyi ni cumi naba batatu.

Umupira w'amaguru ni kimwe mu bintu biteza igihugu akamaro, ndetse n'abantu muri rusange, aho usanga umuntu wakinnye umupira neza abigira umwuga ndetse umuha n'amafaranga, yaba abagore ndetse n'abagabo, igitsina gore cyose muri rusange na cyo kirawukina kandi kigahembwa ku buryo bufatika.

Aho banikira imyaka usanga ari uduti tumeze nk'utumeza bashinze bakubaka neza ku buryo bajya bahashyira ibicuruzwa byaho rikaba ari isoko rifatika kandi rigaragara, ku ruhande hari amabotike bacururizamo ibintu bitandukanye harimo ibyo kurya n'ibindi bintu abantu bakenera.

Inzira irimo amapave ni bimwe mu bintu bigaragaza ko igihugu cyateye imbere aho ugenda ugasanga umuhanda wose bawushashemo amapave, ndetse bigatuma umuntu wambaye neza adafatwaho n'ivumbi ku nkweto ze.